Akabari k'inzoga gafite intebe eshanu nini ndende zo kwicaraho kuri kontwari n'izindi ntebe ziri iruhande, kakaba gakoreshwa mu kunywa inzoga ako kabari.

Ni mu isantere y'ubucuruzi, aho abantu bacuruza ibintu bigiye bitandukanye, hamwe na ba ajenti ba sosiyete y'ubucuruzi yitwa emutiyene, urimo gucuruza amayinite hamwe n'abakiriya barimo kugura serivisi.

Amarembo yinjira mu rugo rw'umuntu agizwe n'umuryango munini cyane w'icyuma n'amagiriyaje menshi cyane igipangu kigaragara nkaho gihenze gisaba amafaranga menshi.

Iduka ricuruza ibikoresho bitandukanye birimo amabaro ibikoresho byo mu rugo inkweto, amagare n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye bikenerwa mu buzima rusange.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi butandukanye. Ifite imiryago ine ikorerwamo n'abantu bagiye batandukanye. Imbere yaho hari ikibumbano cy'ingagi, nk'umutako mwiza cyane. Iyo nyubako ikaba iri imbere y'umuhanda.

Amarembo ya hoteli yitwa Komfoti Hoteli igaragara nini cyane mu nzu ya etaje yamamaza n'inzoga y'ubwoko bwa henikeni ku cyapa cy'imbereye ku muryango.

Ibyo kurya byitwa imbada bikorwa mu fu y'ingano. Barayiponda, bamara kuyiponda, bakayishyira mu mavuta bagacanira zigashya, ubundi zikaribwa.